Imyirondoro ya Tania, wari uri kwishyurwa akoresheje uburyo bwa emutiyene mu Rwanda amafaranga ibihumbi makumyabiri .

Inkweto za masaye z'abakobwa n'izabahungu ziri kuri mu kaetajeri k'umweru.

Umuhanda urimo umunyamaguru utwara igare, atwaye moto he n'ibyapa byagurishirizwa imodoka za yundayi.

Ino urabona ko ni mesaje yerekana ko igikorwa cyo kubitsa amafaranga kuri betipawa, kompanyi ya betingi cyanze cyabaye fayedi ko bitakunze ukeneye ubufasha wa,...

Mudasobwa irimo ku kwereka ibiranga banki ya Kigali, yerekana abafatabuguzi, abishyurana...

Amafaranga y'inote za magana atanu, z'amayero.

Inzu igezweho yubatsemo buryo bugeretse, ikaba igeretse kabiri, hari ubusitani bwiza cyane.

Icyapa kitwereka umugabo wishimye ufite telefoni yishimiye gukoresha uburyo bwo kubika amafaranga no kubikuza akoresheje telefoni bwa Eco bank.

Icyapa cyamamaza ubwishingizi bwa egisesi, hariho umukobwa mwiza wambaye umwenda wa kiganga n'igikoresho cya kiganga.

Inzu ikorerwamo, ikinirwamo imikino y'amahirwe hariho izitangirwamo serivisi za banki za kisibi, iza beka n'ikigo cy'ubwishingizi cya buritabu. Inzu igeretse kabiri.

Hano urabona ko ari isoko, isoko bacuruza imyenda, ibitenge, amashuka, hari n'abagore bicaye bari kudoda, no hirya abakiliya uri kubona ko bari kureba imyenda n'undi mujama wicaye ku gatebe.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, harimo; ibishyimbo, ubunyobwa, harimo abagore n'abana, ubucuruzi.

Inzu ikorerwamo, akazu gato gakorerwamo serivisi zo gutanga amayinite no kubika amafaranga kuri MTN no kuri Airtel, harimo abantu babiri.

Akazu kariho ibirango bya mtn gacururizwamo ama inite kabikurizwamo amafaranga, umuhanda, ipoto ry'amashanyarazi, icyapa umuhanda, n'ibiti.

Umugabo ufite ikaramu n'ikayi uri kwandika, uri mu kazu gacuruza amayinite kanabikuza amafaranga kuri MTN, uri kwakira umukiriya ari kumubarurira simukadi, umukiriya w'umugore.

Imyenda, amapantaro, aho bayicururiza, icyapa kiriho nomero ya momopeyi yo kwishyuriraho, umuntu ufite igikoresho cy'amashanyarazi.

Umugabo uri kubwirwa n'umugore ukora muri emutiyeni, mudasobwa, n'umurongo wahamagaraho ushaka kugura amayinite yo guhamaga ya enterineti.

Aho batekera hagezweho, harimo utubati twiza, bifite n'amatara, n'aho bogereza amasahani y'ibyombo.

Inzu igeretse kabiri ifite amarangi meza y'umweru n'umukara iherereye Kigali Kimironko ni iyo gukodesha.